Ahabereye ubukangurambaga bufite ingingo igira iti "hehe nigwingira." Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite. Twirinde kugwingira k'umwana akiri mutoya. Yitabiriwe n'abantu bata...

Mu Murenge wa Kabutare, amazi yegerejwe abantu bose. Ejo bundi nahuye n'umusaza agiye kuvoma, maze arambwira ngo shahu, ndishimye, ngo kera najyaga njya kuvoma mubande, none nsigaye mvoma munsi y'urugo.

Inama yahuje abakuru b'imidugudu ndetse n'ab'utugari dutandukanye two mu karere ka Huye, bari kwiga ku kibazo cy'ubukene bukabije bukomeje kugaragara muri ako karere, aho abaturage benshi bari gusabiriza.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hateye icyorezo kizwi ku izina rya Marburg mu gihugu cy'u Rwanda, aho umurwayi wa mbere yagaragaye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, gusa icyo cyorezo baje kugishakira urukingo kirashira.

Iyi akaba ari imiti ikoreshwa ku gihe umuntu yagize imvune, ababara mu ngingo. Arayisiga cyangwa se akayitera aho ababara agatera uko muganga yamubwiye ubundi bigakira.

Aha ni ahabera ibikorwa by'ubuhinzi iki ngiki akaba ari ikigega kivamo amazi buhiza imirima igiye itandukanye mu karere ka Gisagara imirima yituriye aho ngaho yuhirwa bavanye kuri bino bigega .

Abadamu babiri bafite ibyo bahagarariye mu nzego z'igihugu, akaba ari abantu bigaragara yuko bafite inararibonye mu buyobozi, abadamu bakaba bita ku buzima bw'abaturage.

Izi ni kizimyamoto zigezweho, izi zikaba ziba zicometse no ku muriro. Izi kizimyamoto ziba zirimo imyuka myinshi izimya umuriro. Kizimyamoto ziba ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi, kugira ngo birinde inkongi y'umuriro yaza itunguranye.

Mu karere ka gisagara habayeho isuzuma ry'indwara zitandura harimo diyabete imitima n'umwijima, aha ngaha umusaza bari bari kumupima ngo barebe nimba umutima we ukora neza cyangwa se akeneye gutangira imiti.

Ku kigo nderabuzima, aha hari umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu w'umugabo, agiye gupima ibiro by'umwana bataruye, ngo barebe ibiro afite, bize kwifashishwa mu isuzumiro.

Umudamu w'umuganga wambaye agapfukamunwa, ari gusobanurira umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, hakaba inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo SIDA mu ibara ry'umutuku, iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Umuhungu twigana ejo bundi bamuhaye akazi ko gutanga ibinini no kwigishwa ukuntu ibinini binywebwa mu mudugudu wacu, yagiye yambaye itaburiya yigisha abaturage ukuntu ibinini bakwiye kubinywa ndetse ukuntu badakwiye gusigaza imiti cyangwa se ngo bayisangire.

Abazungu baje gutanga ubufasha mu buvuzi, aho baje gupima abaturage bo mu karere ka Huye indwara zitandura harimo umutima, abagore batatu baricaye bategereje gusuzumwa.

Umushinga wazanywe n'ikigo mpuzamahanga unicef cyita ku mibereho y'abana yazanye amazi mu mudugudu wa Tumba aho isoko ryari riri kureba begerezwa amazi, ubu abana ndetse n'abakuru babasha kuvoma bakagira isuku, ntibarwaye indwara zituruka ku mwanda.

Umuhanzi uzwi cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza imana mu Rwanda, Israel Mbonyi, yifatanyije n'abayobozi b'akarere ka Huye mu kurwanya imirire mibi mu bana bakiri bato.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikigina, aho ari gufungura kandagira ukarabe iteretse ku meza ngo yoge intoki abone gusubira mu ishuri. Gukaraba intoki ni umuco mwiza wo gutoza abana.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'umweru karimo n'amabara y'umukara yagiye kuvoma ku iriba, akaba afite indobo eshatu z'umweru ari kuvomesha, arishimye araseka. Amazi ni meza kuko yongera isuku mu ngo.

Abana biga iby'ubuvuzi mu bitaro bya Butaro, bakora isuzuma basuzuma abana, ahangaha umunyeshuri yari ari gusuzuma ngo yumve niba uyu mwana nta kibazo cy'umutima afite.

Abaforomo bo ku kigo nderabuzima cya Maraba, bari bahuguwe kubigendanye no kwita ku barwayi bose kugaragariza abababwiye yuko babifashe barahaguruka babisubiramo endi deni basubira mu kazi.

Aha ni kwa muganga, aba akaba ari abantu bategereje kwakirwa, harimo umwana mutoya ndetse n'abadamu batatu, kwa muganga ugenda urwaye utabasha kwijyana ukavayo wigenza kuko barakuvura.

Abantu bambaye imipira y'umweru, ingofero z'umweru, abagabo bambaye imipira y'ubururu, bafite ikirango cyanditseho amagambo agira ati "umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura."

Aha ni ku bitaro bya Kabutare, ibitaro biherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Kabutare, ibitaro bikaba bigira serivisi zitandukanye, harimo kuvura amaso, kubyaza, kwita ku bana, kubaga byoroheje n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cyabereyemo inama y'umushyikirano, aho umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaje gutanga ikiganiro, bose baratuje, barakurikiye, baritonze, biteguye kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu.

Umukecuru uri mu myaka ya za mirongo irindwi atetse ku nkwi ari gushigisha igikoma arishimye ari guseka, ni byiza kwita ku muryango wawe mu gihe ufite imbaraga ndetse mu gihe ukibashije gukora.

Abadamu batatu bambaye udupfukamunwa biragaragara yuko ari mu gihe cya Korona virusi ya cumi n'icyenda yateye mu gihugu cyose ndetse no ku isi muri rusange, aha akaba ari mu karere ka Huye, bari kugirana inama y'ukuntu bakwiye kwirinda Kovide.

Umubyeyi ufite abana babiri, umwe aramuhetse undi ari ku ruhande rwe, akaba atetse igikoma, ababyeyi b'abadamu nibo bantu ba mbere bagira uruhare rukomeye mu gukura ndetse n'uburere bw'abana babo.

Indwara zo mu mutwe zigiye zitandukanye, harimo iyo kuba utazi icyo uricyo, kumva utanezerewe, agahinda gakaje, kwishima ndetse no kubabara bihindagurika cyane, kumva utishimiye uwo uri we n'ibindi.

Urubyiruko rwarihebye ,urubyiruko rufite ibibazo bitandukanye , aha haragaragara umwari ufite ibibazo witangiriye itama biragaragara ko yarize ari kumwe n'umuganga uri kumuhumuriza ibibazo si iby'igihe kinini ibibazo bizashira.

Umudamu urakaye cyane afite n'umujinya ndetse afite n'amahane menshi ku maso yarakaye, akenyeye igitambaro mu mutwe, biragaragara y'uko yahawe serivisi mbi cyangwa se akaba agira umujinya mu buzima busanzwe.

Kwita ku mirire y'abana ni byiza kuva umwana akivuka kugeza agejeje mu myaka ibiri, ni byiza guhereza umwana indyo yuzuye ndetse ukanamwonsa byibura amezi atandatu nta kindi umuvangiye.

Abantu batandukanye bavuye mu nama yabereye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, iyi nama ikaba yari igamije kurebera hamwe icyo urubyiruko rwafasha mu guteza imbere aho batuye, harimo n'abanyeshuri ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye.

Abadamu babiri bari kuganira biragaragara yuko umwe yihishe na furari mu maso ari kuganirizwa n'uyu wundi umufashe ku mugongo ari kumuruhura umutima hari abantu benshi bafite ibikomere basigiwe n'amateka y'igihugu cyacu nibyiza yuko baganirizwa kandi bagahumurizwa.

Umuyobozi waturutse mu gihugu cyo hanze yagiye ku rwibutso rwa Gisozi kwibuka abatutsi bazize Jenoside yakorewe abatutsi muw'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda.

Umusore ufite akantu kabuhariwe mu koza amenyo hagati mu menyo, kugira isuku y'amenyo ni byiza, kano kantu ntabwo gahenda kagura ibihumbi bibiri muri farumasi, wakagura nawe ukajya ugakoresha.

Abana bo muri pirimeri bigishwa kuborosa amenyo yabo neza kugira ngo birinde indwara zo mu kanwa, abana ni byiza kubatoza bakiri bato uko bakwiye kugira isuku y'amenyo.

Mu gihe cya covid cumi n'icyenda, abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, baritabajwe cyane mu gusuzuma gusuzuma iki cyorezo. Aha bari bari gusuzuma umuntu uvuye muri siporo, ngo barebe nimba nta covid cumi n'icyenda yanduye.

Kwa muganga aho basuzuma indwara zigiye zitandukanye aha hakaba hazwi cyane nko muri laboratwari uzana ibizamini byawe bagasuzuma bakamenya icyaguteye uburwayi ufite.

Icyumba cyo kwa muganga hari intebe umurwayi yicaraho bakareba ikibazo afite cyo mu kanwa ubundi bakamuvura, hari imashini zabugenewe zitandukanye ndetse n'intebe ya muganga.

Ibyuma bikoresha mu koza amenyo kwa muganga, ibyuma bigaragara mu bitaro bigiye bikomeye harimo ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ibitaro bya Kigali, ibitaro bya Butare n'ibindi bitaro bikomeye.

Utu ni utwuma dukoresha kwa muganga basuzuma amenyo ngo barebe nimba nta kibazo amenyo y'aba afite, utu twuma tuboneka mu bitaro bigiye bitandukanye gusa ntabwo wabibona ku bigo nderabuzima biboneka ku bitaro bikuru.

Aha ni mu bitaro, aho bagiye gusuzuma umudamu uryamye, bagiye kumusuzuma icyorezo cyateye icya Kovide, afite udusuko dutoya bari kumusobanura ko bagiye kujomba akantu mu zuru bakavanamo ibyo bapima kugira ngo ataza kugira ubwoba.

Imyaka y'izabukuru ni ikintu gikwiye kugora abantu cyane cyane kuko iyo myaka abenshi bayigeramo batakiri kumwe n'abafasha babo, aha ngaha uyu mufasha umugore n'umugabo bagize amahirwe kuko barasazanye, rero ni byiza kwita kuri uwo mwashakanye mu myaka y'izabukuru.

Aha ni kwa muganga akaba ari umuntu ukuze, akaba ari kujya mu bwiherero yambaye ikanzu y'ubururu afite akantu kamufasha kugenda atambuka kubera afite intege nke kubw'uburwayi bwiwe afite.

Mu isoko abadamu batandatu bari kuganira babuze abakiriya, bari kugurisha inyanya ndetse n'ibindi, ni byiza yuko igihe waje mu kazi bagakwiye kuba bashaka utwo batunganya bakava mu magambo.

Ikigo bavurizamo abasaza ndetse n'abakecuru bageze mu zabukuru, aha bakaba bari basuwe n'imiryango yabo, abana babo babazaniye abuzukuru ngo bakine barishimye.

Siporo ni nziza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abakuze ndetse n'abatoya bashishikarizwa kujya muri siporo, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi haba siporo rusange ihuza abantu batandukanye, ndetse n'umukuru w'igihugu akunda kuyitabira.

Umusaza n'umukecuru bari mu zabukuru akaba ari kwirira ibigori ndetse n'idodo, ni byiza yuko umenya imyaka urimo ukirinda ibintu nk'amafiriti ndetse n'inyama.

Umuzungu wavuye mu bihugu byo hanze, akaba ari kuganiriza abaturage bo mu Karere ka Bugesera, ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuhinzi, hano hari n'imyenda yanitse ku ruhande, ateruye akana mu ntoki.

Umusaza ufite icupa mu ntoki, ari gusobanurira umudamu wambaye amarinete, uko iyo miti ikoreshwa, biragaragara yuko ari abahanga mu by'imiti, bari kubanza bagahugurana ku bijyanye n'imikoreshereze y'imiti.

Abahinzi bo mu karere ka Huye barishimye kuko uno mwaka babonye umusaruro, imvura yaraguye rwose imyaka yabo irera, abahinzi ni bo bantu b'ingenzi igihugu gifite kuko igihugu kidafite ibiryo rwose kiba gikennye.

Umukecuru n'umusaza bageze mu myaka y'izabukuru, umusaza bari kumutoza kugenda afite imvune amaranye igihe, ari kugenda gake gake kugira ngo arebe ko yakira.

Twirinde kanseri y'ibereye tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira, ubu ni ubukangurambaga bwabereye mu karere ka Huye hitabira abana bo muri kaminuza ndetse n'abayobozi.

Umudamu wari wayoboye inama twari twagiyemo hamwe n'umugabo wari uri gutanga ikiganiro barasohotse bafata agafoto, ikiganiro cyari icyo guteza uburezi bw'ubuzima muri Afurika y'Iburasirazuba.

Kwakira urukingo rwa korona virusi cumi n'icyenda ni bwo buryo bwizewe bwo kwirinda kurwara kovide cumi n'icyenda.

Ahabereye inama y'igihugu y'umushyikirano hari hitabiriwe abantu bagiye batandukanye hari hari kuganira abagabo batatu iruhande rw'iburyo ndetse n'undi ku ruhande harimo n'umudamu bari kuganira ku kibazo cyugarije isi.

Aha byari mu gihe cya Covide cumi n'icyenda, aho habaye gusuzuma ndetse no gukingira iyi ndwara ahantu hose hagiye hatandukanye mu gihugu. Haba ubukangurambaga, hano bari bageze mu Karere ka Gisagara.

Umwari ukiri mutoya aha akaba akora kwa muganga, akora ahazwi cyane nko muri raboratwari, akaba ari gushyiramo ibisubizo by'umurwayi mu mashini ngo abyohereze muganga.

Aha ni kwa muganga aha akaba ari aho basuzumira marariya n'izindi ndwara, mu isuzumiro basuzuma ikintu kiri kugutera ibyo bimenyetso wagaragarije muganga.

Iyi ni ifoto igaragaza habaye ikangurambaga ryo kurwanya malariya, akaba ari igikorwa cyabereye mu murenge wa Huye. Biragaragara hari umugabo uri imbere wambaye ishati y'umweru uri gusobanura ukuntu bazabigenza ku buryo malariya iranduka burundu.

Ikigo cy'ubuvuzi giherereye mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, iki kigo kikaba kizwiho cyane mu kuvura indwara zananiranye na kanseri, kanseri barakubaga ugakira ukagenda uri muryerye.

Imashini zikoreshwa kwa muganga, hakaba hari aho bata imyanda, iki akaba ari icyumba babagiramo umurwayi bamuryamisha kuri kano gatanda, haba hari abaganga, abaforomo haba hari itsinda ry'abantu benshi baje kuba...

Kwa muganga, aho abantu batonze umurongo bategereje kwakirwa. Abanyarwanda bagira umutima mwiza. Haje umuntu ugendera ku kagare, bamuhereza umwanya ngo abanze bamwakire kubera ko we afite ikibazo.

Icyumba cy'inama kirasa neza ntabantu barimo, cyubatse neza hasi hakaba hari imbaho, imbere hari imeza y'umweru, ahantu hari bubere inama ihuje abantu batandukanye.

Ejo bundi nagiye kwivuza amenyo na muganga muganga yari umusore ukiri mutoya ndatsega ko mfite ubwoba ubwo amenyo n'ru yakuriyemo aravuga ati reka reka mfata agafoto ninyakuramo uzajye kundega nkurambwira ati ngaho se kangufotore aremerawe

Kwa muganga bagira imashini nyinshi bakoresha basuzuma, aha uyu ni umuganga wari uri kureba mu bisubizo imashini yamuhaye, bikaba bigaragaza imbavu igice cyo hejuru, kigaragaza y'uko uyu muntu ntakibazo afite.

Ibitaro bya Kabgayi n'ibitaro biherereye mu Karere ka Muhanga, akaba ari mu ntara y'amajyepfo, ibitaro bikaba bizwiho cyane ubushobozi burenze mu kuvura indwara y'amaso yitwa ishaza.

Ibitaro biri mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bizwi cyane ku izina rya Kabgayi, ibi ni ibitaro by'Akarere, ibitaro rero bikaba bizwiho cyane ku kuvura amaso gusa n'izindi serivisi na zo zirimo.

Aha ni kwa muganga hakaba ari ahabera ubushakashatsi, aha ngaha haba harimo abantu bagiye batandukanye babyigiye, bafata ibyo babonye kwa muganga bakabisuzuma bakamenya indwara z'ibyorezo byugarije isi.

Iniverisite nkuru y'u Rwanda iherereye mu Karere ka Huye. Iyi nzu ikaba ari inzu izwi cyane ku izina rya Batima. Ni ho abanyeshuri bigira. Aha ngaha rwose, umuntu uhavuye aba ari intiti.

Icyumba cyo kwa muganga ahangaha ni aho bavurira amaso, muganga intebe yiwe iba iteganye n'iy'umurwayi, ubundi umurwayi akaza akicara, akavuga ukuntu yafashwe ubundi bakamusuzuma bakoresheje imashini zabugenewe.

Ibyuma byo kwa muganga bakoresha bareba umuntu ukuntu ameze kugira ngo bamenye ikiri kumutera uburwayi, bamenye aho bahera bamuvura.

Ibi ni ibitaro bizwi cyane, biherereye i Kanombe, bikaba ari ibitaro bizwi ku izina rya Legacy, bagira abaganga batandukanye b'inzobere mu kuvura imitima, imyijima, ingingo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibitaro bya Caraes i Ndera biherereye mu karere ka Huye, aha ni aho binjirira bagiye kwivuza, abantu bafite indwara zigiye zitandukanye, bavuza indwara zo kubatwa n'ibiyobyabwenge, baranasuzuma indwara zo mu mutwe.

Mu bitaro byitabiriwe umwami faisal hagiye hari imashini zigiye zitandukanye, iyi akaba ari imashini isuzuma y'uko umuntu adafite ibibyimba cyangwa se ibindi bibazo. Iyi mashini umurwayi aryamaho ubundi bakamusunika akinjira bakareba niba nta kibazo afite ku bwonk.

Aha ni ku bitaro byitiriwe umwami Fayisal, ubwo baheruka gufata amaraso, barayafata bakaza bakayabika aha ngaha, haboneka umurwayi ukeneye amaraso bakayamuhereza, aya maraso atangwa n'umuntu wese ubisha...

Iyi ni farumasi iherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Karere ka Gasabo, aho bakunze kwita nko ku Gisimenti, iyi farumasi ikaba izwi ku izina rya Porogeresi, batanga ubuvuzi mu bwoko bw'imiti.

Ibi ni ibyumba by'abarwayi byo kwa muganga, aha ngaha buri wese aba atandukanyije na mugenzi we harimo akarido hagati, muganga akaza akakwitaho ndetse n'abakurwaje bakaba barimo aho.

Imashini zisuzuma ziherereye kwa muganga, izi mashini bazikoresha basuzuma ibizamini by'abarwayi ngo bamenye udukoko cyangwa se imbarutso y'indwara abarwayi bafashwe nazo.

Abanyeshuri bo muri UR bakora ubushakashatsi, aba ni abanyeshuri biga ibijyanye na rabo aho bari bari gukora isabune bayivanye mu mavuta, aba banyeshuri bakaba bakunda ibyo biga cyane.

Abagabo ndetse n'abagore bakora akazi k'ububyaza, bahagaze imbere y'aho bakorera inzu y'ababyeyi cyangwa se izwi mu Gifaransa nka materinite, bafite uruhare rukomeye mu kubaho kwa mu...

Iyi ni ifoto igaragaza inzu y'ababyeyi aha ngaha hakaba hazwi cyane nka materinete. Aha ni ibitaro aho ababyeyi baryama bakababyaza ndetse no mu gihe umwana yaba avukanye ikibazo.

Aha ni kwa muganga aha ngaha akaba ari aho bakorera ubuvuzi bwo kuvura abana, akaba ariyo mpamvu uhabona ibikinisho, umwana iyo arwaye akabona ibikinisho apfa gukiramo gakeya yabona muganga bikaba burundu.

Kwa muganga ibi akaba ari icyumba cya pirive kigirwamo n'umuntu ushaka kuba ari ahantu ha wenyine hatari abantu benshi. Icyi cyumba kiba gihenze kigirwarwamo n'uwifite kuko gicibwa amafaranga atandukanye n'ay'ahasanzwe.

Ibi ni ibitaro bya Kabgayi biherereye mu Karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga, akaba ari ibitaro bizwiho cyane mu kuvura amaso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, abantu benshi bahajya babohereje mu kwivuza amaso.

Aha ni mu bitaro kwa muganga, mu bitaro umuhanga yararirimbye aravuga ngo mu bitaro ni kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma. Kwa muganga umuntu ahajya yanembye, yanengekaye akahava ari mutaraga abaganga baritanga rwo...

Inzu nziza cyane y'ihoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, hakaba hari umutako mwiza cyane, hakaba hari n'intebe nziza umuntu yahasohokera ari kumwe n'umuryango we bakishima ndetse hari n'aho kwifotoreza.

Ibi ni ibitaro biherereye mu karere ka Huye bizwi cyane ku izina rya CHUB, bakaba bavura indwara zigiye zitandukanye, ahangaha naho winjirira, ukagenda bakaguheriza serivisi ukeneye zose z'ubuvuzi.

Ku bitaro bya Butare bizwi cyane ku izina rya CHUB, aha ni aho bakirira abaje babagana barwaye aha ngaha usiga mituweli yawe cyangwa se ubwishingizi bwawe, ubundi bakakwandika ugategereza ko bakohereza kwa muganga.

Akazi kenshi ntikagakwiye kuba imbogamizi yawe ituma udakora siporo kuko ushobora kujya mu buvuzi ukita ku kuvura abantu, gusa bikazarangira nawe ubaye uwo kuvurwa. Ni byiza gukora siporo nubwo waba uri umukozi.

Umuntu w'igishushanyo, bari kwigiraho ukuntu basuzuma imitima, ibi babikoresha cyane aho abanyeshuri biga ubuvuzi baba bigira, ibi ngibi biboneka cyane muri za kaminuza.

Umudamu uri gukora siporo zo gutuma azana amaguru akomeye ndetse akazana n'ikibuno. Muri iyi si tugezemo abahungu basigaye bakururwa n'imibuno. Abakobwa bakora siporo cyane kugira ngo bazane ibibuno bakurure abasore.

Umugabo uri mu myaka mirongo itanu, ari kunywa amazi avuye muri siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu kuko irinda indwara zitandura harimo Diyabete, kanseri, indwara z'umutima n'indwara z'umwijima.

Umwana wahuye n'ibibazo by'ubusazi, bakaba bari kumuvura bamufasha amaboko bagiye kumutera agashinge, indwara yo mu mutwe yariyongereye ku Isi hose cyane cyane mu Rwanda.

Imiti ikoreshwa mu kwica udusimba dutoya tuboneka mu matuwarete ndetse n'ahandi hatandukanye, iyi miti barayitera imibu, amasazi, n'ibindi bikagenda, iyi ikaba ikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye.

Umudamu uri gukora siporo, si byiza ko umuntu atangira siporo kubera ko yarwaye ahubwo umuntu akora siporo kugira ngo yirinde indwara, gukora siporo ni ingenzi ku buzima bwawe.

Siporo ni ingenzi ku mubiri kuko bituma umuntu yirinda indwara zitandura harimo diyabete, imitima, umwijima ndetse n'ibindi, ni byiza gukora siporo ukiri mutoya kugira ngo wirinde indwara zitandura.

Ni ukuguru kugaragaza umuntu uri muri siporo, akaba ari gukora siporo yigorora ngingo, akaba afite ikibazo ahantu hashushanyishijwe n’ibara ry'ubururu ndetse n'iry'iroza akaba ari kugira ngo bisubire mu murongo.

Amasiganwa yo kwirukanka yabaye umwaka ushize, umwana w'umunyamahanga wari wavuye muri Sudan y'epfo yahuye n'impanuka gusa umuntu wari uri aho hafi wo kubitaho yaramutwaye amujyana aho bavurira.

Umwana ukiri mutoya, wahuye n'ikibazo cy'imvune y'ukuboko, bamuhaye akuma aterura kugira ngo ukoboko kwe kongere gusubirane ubuzima, kongere kube kuzima guterane.

Iki ni icyuma kizwi cyane nka MRA, ni icyuma bacishamo umuntu bagiye kureba nimba nta kibazo cy'ubwonko yaba afite, gikunze kuboneka mu Rwanda muri CHUK ndetse n'ibitaro byitiriwe umwami Faisal.

Umuntu wavunitse bari kumukorera icyo bita ingororangingo, akaba ari gufashwa n'umuzungu wari waje kuvura muri afurika, umuntu yahuye n'ikibazo cyo kuvunika mu ivi ari gukina umupira.

Umudamu umaze gukora siporo, biragaragara ibyuya biramwishe afite n'agasume ku rutugu, ari kunywa amazi. Gukora siporo ni ingenzi ku buzima bwa buri wese.

Umuntu uri gukora siporo akaba ahuye n'ikibazo kizwi cyane nk'imbwa ahom imitsi yifunga kugenda bikananirana, umuntu wifashe ku ivi, aha ngaha akeneye ubufasha bwihuse rwose kuko yahasiga n'ubu ubuzima.

Abantu bakundana akenshi batekereza yuko ibintu bibahuza cyangwa se bibongerera urukundo rwabo, ari ugusohokera ahantu bakarya, gutembera, ariko buriya siporo nicyo kintu cya mbere gituma abantu barushaho guhura, bakarushaho no kongera ubucuti.

Igitambaro kifashishwa mu gihe umuntu yahuye n'imvune, kizwi cyane ku izina rya bande, akishyira ahantu imvune yabaye kugira ngo ingingo zisubirane umuntu yongere asubire mu kazi.

Icyumba gikorerwamo siporo bakoresheje amamashini, izi ni imashini ukoresha wirukanka, unyonga ndetse n'ibindi, siporo ni nziza ku buzima, kuko siporo iragufasha mu gihe watewe n'indwara z'imitima na Diyabete.

Ikirango kiriho amafoto ane, imwe hariho umuntu uri kwirukanka, indi ni umusaraba, indi ni umuntu uri kugenda ku rubura, indi ni umuntu wifashe ku kuboko, bakigaragaza urtirigongo mo hagati kikaba kigaragaza ibitaro runaka.

Iyo umuntu yakoze impanuka bakamugonga cyangwa se akikubita hasi kugira ngo abashe kongera kugenda n'uko yongera gukoresha umubiri we kuko agumye aryamye, iyo mvune ntago yazakira. Iyi mbago yifashishwa mu kugenda.

Ukuguru gushushanyijeho amabara abiri, rimwe ni ubururu, irindi ni iroza, ni ukuguru kugaragaza umuntu uri muri siporo, akaba ari kugira ngo agorore ingingo kuko afite ikibazo cy'igufwa hariya bashushanyije.

Umugabo uri gukora siporo biragaragara ko yamaze gushyiraho akantu, afite umubiri uteye neza rwose, ari gukora siporo kugira ngo yirinde indwara ndetse no kugira ngo atere neza.

Umuzingo uzwi cyane ku izina rya bande barawihambiriza iyo umuntu yagize imvune, ibi rero bikaba bifasha cyane mu gihe umuntu akora siporo cyangwa se ari umukinnyi.

Jene ufite ikintu kirimo urubura yashyize ku kuboko, biragaragara yuko yagize imvune rero bino bikaba bituma arushaho kutababara aho yagize ikibazo.

Umuvuzi gakondo uri gutegura ibiti byiwe kugira ngo akore imiti abantu baze bamugana babone ibyo gukoresha bivuza, ubuvuzi gakondo bwateye imbere mu gihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni imiti ikozwe mu byatsi, ikaba yongerera ubwonko gutekereza neza ndetse no gutumbera ku bintu uri gukora, iyi miti ikaba yongerera abana kuba bakicara bakiga mu ishuri nta kirogoya.

Ifoto igaragaza ibiti bigiye bitandukanye bivura indwara, harimo umuravumba, umugombe, umubirizi ndetse n'ibindi biti bitandukanye.

Iyi ni imiti ikorwa n'uruganda rwa Forever, iyi miti ikaba bayinywa ikongera imbaraga, kwa kundi uba wacitse intege uri nko mu kazi ukumva ukeneye kongera imbaraga, unywa imiti.

Igikopo kigaragaza ukuntu ikawa ifasha mu buzima, akaba ari igikopo kirimo ikawa umuntu anywa, hariho n'amagambo asobanura ukuntu ikawa igenda ifasha mu mu bintu bigiye bitandukanye.

Umuravumba ni igiti kivura inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara z'ubuhumekero, bakaba bagikoresha mu kwiyuka ndetse n'ubuvuzi bwose bujyanye n'indwara z'ubumekero zafashe amazuru ndetse no mu kanwa.

Igikakarubamba gifite umumaro ukomeye cyane mu buvuzi, igikakarubamba gituma uruhu rusa neza, igikakarubamba kivanaho inkovu, igikakarubamba kirinda iminkanyari, bagikoramo amavuta, amasabune y'ubwoko butandukanye.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ibyatsi harimo hibisikasi, ibitunguru n'ibindi bitandukanye, ibyatsi bivura indwara zitandukanye aho kugira ngo unywe imiti wabanza ukikoreshereza ibi...

Ubuvuzi gakondo bwaramamaye kw’isi yose ntabwo nari nzi yuko ubuvuzi gakondo no muri amerika babugira ahangaha hakaba hari ubuvuzi bakoresha bakiza abantu ibizwi nk'ibisazi bakaba bavanga ibi byatsi bakabiheza aba…

Ibyo kurya n'indwara bigiye bivura harimo tangawizi, ibijumba, tungurusumu, imyenya n'ibindi bitandukanye, ibyatsi bivura indwara zitandukanye.

Imiti yakozwe n'uruganda foreva, iyi akaba ari sanitayiza bakoresheje cyane muri kovide bakazajya bakaraba intoki kugira ngo imyanda ibaveho cyangwa se ibindi byose.

Imiti yongera amaraso bizwi ku mazina ya Forceval, ikaba ari imiti iboneka mu mafarumasi agiye atandukanye, iyi miti bakunda kuyihereza abagore batwite mu gihembwe cya mbere kugira ngo bongere amaraso.

Indimu igira umumaro mwinshi ku buzima bwa muntu, indimu ushobora kuyisiga mu maso ufite udukovu ikatuvanaho, ushobora kuyinywa ikagukiza inkorora, ushobora kuyihumuriza ikagukiza ibicurane, indimu ni umuti ukomeye cyane.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi, ibi byatsi bikaba birinda indwara zitandukanye, harimo indwara z'umutima, Diyabete ndetse na kanseri, ibi byatsi ushobora kubirya ari amababi cyangwa se ukabiteka ukanywa umutobe wabyo.

Iyi ni imiti ya gakondo, hano habereye imurikagurishwa ry'abavuzi gakondo. Harimo iva ku muravumba, iva ku gikakarubamba, ubuki, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Iyi ni imiti ikoreshwa cyane mu buvuzi gakondo, ubu akaba ari ubuki, ubuki buvura inkora, ubuki butuma umuntu amera neza mu gihe yari afunganye, buki buvura indwara nyinshi.

Ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bwifashishwa ibimera bigiye bitandukanye harimo ibyo abantu basanzwe bazi bihingwa mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ubuvuzi gakondo butangiye kwamamara cyane mu gihugu cyacu.

Indimu igira akamaro kenshi cyane, ibishishwa byayo byoza uruhu bikavanaho inkovu ndetse n'ibindi byose, ibibazo by'uruhu, iyo uyinyweye igukiza inkorora, iyo uyihumetse igukiza ibicurane.

Abavuzi gakondo bavurisha ibintu bigiye bitandukanye, hariho abavurisha ibyatsi, imizi yabyo, imbuto ndetse hari n'abakora umutobe w'ibyatsi, bakavura abantu indwara zitandukanye, rubagimpande, amacinya, mu maso n'ibindi.

Ubuki buvura indwara zitandukanye, harimo indwara z'ubuhumekero, indwara z'imirire mibi, ubuki ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ubuki ntabwo ari bwiza ku mwana uri munsi y'u mwaka kuko bwamutera izindi ndwara.

Igikarakarubamba cyavamo ibintu byinshi bitandukanye, igikakarubamba kivamo korogate, igikakarubamba kivamo amavuta, igikakarubamba wagikoramo isabune, igikakarubamba kubera ko ari umuti kivamo ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu benshi bajya bibaza ngo se ibinini biva hehe? Ibinini nta handi hantu biva uretse mu bimera. Ibimera ni byo ababyigiye bafite ubuhanga mu by'imiti, bahuza bakabihonda ndetse bagakoramo ibinini, akaba ari byo tuywa kuko ibimera bisharira.

Iki ni igiti cy'ibimera kivura indwara zitandukanye, kikaba ari icyatsi kimera ahantu hose hatandukanye mu Rwanda, kikaba kivura kutagira amazi ku badamu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Iyi ni ifoto igaragaza ubuvuzi gakondo, iyi foto iragaragaza ibitunguru, amatungurusumu, n'ibindi bikoreshwa mu kuvura bakoresheje ibimera mu Rwanda ndetse n'ahandi hose.

Igikakarubamba ni umuti mwiza cyane, igikakarubamba noneho iyo wongereyemo ubuki, bivamo amavuta meza cyane yo kwisiga uruhu, ikarinda iminkanyari, ikavanaho inkovu ndetse ugaca ukubiri n'uduheri tugiye dutandukanye.

Iki ni igiti cy'avoka, voka ikiza indwara zitandukanye, gusa abantu banayikoresha mu buryo bw'amavuta yo kwisiga ku mubiri ndetse hari n'abayisiga mu misatsi kugira ngo ikure neza ikurane itoto.